Abantu bakora imiti batera imyaka kandi ikica n'udukoko, bagira umumaro munini cyane kubera ko bafasha abahinzi kwita ku bihingwa binyuze mu gutera iyo miti, kandi na bo bakabona amafaranga menshi cyane binyuze mu kugurisha iyo miti, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, bakarushaho kwiteza imbere.

Inganda n' igikorwaremezo leta yubaka kugira ngo abaturage babone akazi bagire amafaranga biteze imbere kandi n'ubukungu bw'igihugu burusheho kwiyongera cyane.

Imiti batera ku bihingwa igira umumaro munini cyane, kubera ko ituma ibihingwa bidafatwa n'udukoko cyangwa udusimba twangiriza ibihingwa, kandi bituma umusaruro wiyongera cyane, abahinzi bakabona inyungu nyinshi cyane.

Kugira ngo ibihingwa byere neza cyane abahinzi barabibagara, bakavanamo imyanda n'ibindi byose bituma bitera neza cyane. Ibi ngibi bituma umusaruro wiyongera, kandi abahinzi bakabona ibyo barya n'ibyo bagurisha.

Iyo uhinze igihingwa ntushyireho ifumbire ntabwo kiguha umusaruro uhagije, ariko iyo ushyizeho ire ikivanga n'iyindi y'imborera, kirashisha kikaguha umusaruro mwinshi cyane.

Haba imiti batera ahantu runaka kugira ngo bice udusimba dutera indwara.

Ubu ngubu mu buhinzi bwa kijyambere, abahinzi bakoresha icyuma cyabugenewe mu gutera imiti ibihingwa. Ibingibi bituma umuti ugera neza cyane ku bihingwa, bigakura neza bigatanga umusaruro mwinshi cyane.

Imiti batera imyaka iratandukanye. Hari iyo basuka n'iyo badasuka. Ariko byose bigira umumaro munini cyane. kubera ko bituma ibihingwa biduha umusaruro mwinshi cyane, kandi na twe tukarushaho kwiteza imbere mu kubigurisha. Kugira ngo biduhe amafaranga, tuyakoreshemo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Iyo ibyatsi bimaze kuma, imvura ikabinyagira, bivamo ifumbire abantu barayifumbiza imyaka yabo, ikera neza, kandi ntabwo ipfa gupfa, kubera ko iyo fumbire ituma bikura neza, kandi bikavamo umusaruro mwinshi cyane.

Ifumbire iva ahantu henshi hagiye hatandukanye, nko mu matungo cyangwa mu myanda ibora, ishyirwa mu kimoteri. Igira umumaro munini cyane, kubera ko abahinzi bakoresha ifumbire bari gufumbira ibihingwa byabo, kugira byere neza cyane.

Ibihingwa na byo babitera imiti kugira ngo bitarwara, cyangwa ngo bitere kuduha umusaruro. Ibi ngibi babikora kugira ngo bongere umusaruro, kandi batume ibihingwa bikura neza cyane.

Isambaza ni ikiribwa kirobwa mu kiyaga. Kiraryoha cyane. Abantu baragikunda cyane kubera ko kiduha isosi iryoshye cyane. Kandi abaziroba babona amafaranga, bakiteza imbere.

Isambaza ziba mu kivu hamwe n'amafi, abantu baziteka mu buryo bugiye butandukanye, nko kuzitogosa mu mazi cyangwa ku zikawusha mu mavuta, ibi ngibi bituma abantu baryoherwa bakazikunda bitandukanye kandi abantu barabicuruza, amafi ni isambaza bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Amafi bayavana mu kiyaga, agira umumaro munini cyane kandi abantu bayateka mu buryo bugiye butandukanye, nko kuyakawusha cyangwa kuyatogosa mu mazi. Kandi ushobora kuyirisha ibiryo bigiye bitandukanye nk'ubugari cyangwa ifiriti, n'ibindi byinshi cyane.

Mu kiyaga bakoreramo ingendo aho abagenzi baba bambaye amajili kugira ngo birinde kubura ubuzima igihe haba habaye impanuka.

Usanga mu kiyaga hagati hari ahantu hari ubutaka bita ikirwa. Ibi ngibi bikurura ba mukerarugendo, bakaza kubisura, ibirwa byo mu mazi, bakadusigira amadovize tukayakoresha mu kwiteza imbere.

Amafi agirira akamaro abana bakiri bato, kubera ko abana barya amafi, bagira ubwenge, kandi bakura bafite ibitekerezo byiza, bagatekereza neza mu ishuri, kandi bakaba abantu bakomeye mu gihe kizaza.

Mu kivu habamo amafi, isambaza, ibi ni ibiribwa bigira umumaro mwinshi cyane ku buzima bw'abana, kubera ko umwana urya ifi cyangwa isambaza akiri muto agira ubwenge, akagira mu mutwe hafungutse, agafata vuba amasomo, kandi akamenya n'ibindi byinshi byiza bimufitiye umumaro.

Amafi aba mu mazi menshi cyane kandi agira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, aho atuma umuntu atarwaragurika indwara zitandukanye, harimo bwaki kubana ndetse no kurwara indwara zo munda, abantu barayagurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Amafi ni ikiribwa kiva mu Kivu kigira umumaro munini cyane kubera ko abantu barakirya kigatuma batarwaragurika, kandi baragicuruza bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere mu bikorwa bitandukanye.

Ikiyaga kibamo amafi, abantu barayaroba, bakayarya cyangwa bakayagurisha, bakabaha amafaranga, bakiteza imbere. Kandi kiduha amazi, abahinzi bakayakoresha bari kuhira ibihingwa, kugira ngo byere neza cyane.

Ikiyaga kigira umumaro munini cyane kubera ko kiduha amafi, isambaza cyangwa indugu. Kandi kiduha na gaz metanhane bakoreshaga mu nganda, ndetse bakayikoresha igihe baba bari guteka ibiryo. Gituma abantu bakora ingendo zigiye zitandukanye, bakabona akazi, ndetse n'amafaranga menshi cyane.

Igikoma n'igiti bakoresha bazitira urugo kandi bagikoresha basukura ibindi, baba bashizemo inzoga cyangwa umusururu.

Umurima abantu bawuhingamo bakabona ibyo kurya ndetse bagasagurira amasoko . Kandi babona n'amafaranga igihe bawugurishije cyangwa igihe bagurishije ibiribwa bawuhinzemo.

Ibihingwa birera abantu bakabona ibyo kurya, bagasagurira n'amasoko. Amafaranga babonye bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, mu kugura agatungo bakakorora, bakagurira imyenda abana, bakita ku bana. bakabagurira amakayi, kandi ibi ngibi bituma igihugu gikomeza gutera imbere, n'ubukungu bugakataza cyane.

Umurima bamaze gusaruramo ibigori cangwa amasaka, haba harimo ibikenyeri ndetse n'ibyatsi byinshi cyane. Abantu barategereza bikuma, noneho bakazaza guhinga nyuma.

Ibibabi by'ibihaza na byo biri mu bwoko bw'imboga, bigira umumaro munini cyane ku mubiri w'umuntu. Kubera ko biturinda indwara kandi bigatuma abana bakura bafite ubwenge bwinshi cyane.

Umushipuri ni igihingwa cyimeza. Abantu bagikoresha nk'umukubuzo, igihe baba bari gukondora. Kandi kera bagikoreshaga nk'umuti uvura umugongo. Na n'ubu abantu bamwe na bamwe baragikoresha bakivura umugongo.

Ibyatsi na byo ni ibimera bigirira umuntu ndetse n'ibindi binyabuzima akamaro, kuko amatungo arya ibyatsi akabaho, kandi agaha n'abantu umusaruro mwinshi cyane. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bituma abantu babaho neza cyane.

Ibiti bigiye bitandukanye bigira umumaro munini cyane kubera ko biduha imvura, abantu bakabona ibyo barya bakanasagura n'amasoko, kandi biduha umwuka mwiza duhumeka, abantu bakarushaho kugira ubuzima bwiza cyane.

Igiko n' ikimera kera abanyarwanda bakoreshaga, mu bintu bigiye bitandukanye, nko gupfundikira ibiryo babaga bashyize mu gasero, n'igihe babaga bari koza ibicuma, n'ibibindi bashyizemo inzoga cyangwa umusururu.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, abantu bagiteka mu buryo bugiye butandukanye nko kugishyira ku birayi ku bijumba, kandi kigira umumaro munini cyane kubera ko gituma umuntu agira umubiri mwiza cyane, kandi bagurisha ibishyimbo bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bitandukanye.

Abahinzi, igihe baba bari kwitegura ihinga babanza basukura umurima wabo, bakavanamo imyanda noneho bakazabona gutera, ibingibi bituma umusaruro wabo wiyongera cyane.

Ubuhinzi bw'urutoki ni ubuhinzi bwiza cyane, kubera ko butuma abantu babona amafaranga igihe bagiye kugurisha urutoki, kandi babona n'ibyo barya.

Ibyatsi bigira umumaro munini cyane, kubera ko amatungo abirya akagubwa neza cyane, kandi ibyatsi biduha umwuka mwiza wo guhumeka, kandi bikaduha n'imvura maze ibihingwa bikera bigatanga umusaruro mwinshi cyane.

Ubutaka bugira akamaro kanini cyane, kubera ko abahinzi bawuhingamo imyaka yabo, bakabona ibyo kurya, ndetse bagasagurira n'amasoko. Kandi ubutaka ni itaho ry'inyamaswa zitandukanye, harimo nk'inzoka, ibikeri ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Abantu bakora ubuhinzi bw'urutoki basukura kandi bakanabagara urutoki rwabo. Bakagenda bavanamo ibitari ngombwa, kugira ngo nirwera ruzabahe umusaruro uhagije, babone ibyo barya ndetse basagurire n'amasoko.

Ibihingwa ngandurarugo nk'ibishyimbo, ibirayi, amajeri, ibigori, ibijumba n'ibindi byinshi cyane abaturage barabihinga bakabona ibyo kurya, bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Urubingo ruri mu bwoko bw'ibyatsi, bigira umumaro munini cyane, kubera ko inka, ihene, intama n'andi matungo, arya urubingo maze agatanga umusaruro mwinshi cyane.

Icyayi kiraryoha cyane kandi gituma abantu babona amafaranga menshi cyane, icyayi bagishyira mu gitebo iyo bari kugisarura mu murima.

Imiteja iraryoha cyane, bayiteka bayitogosheje cyangwa bakayitekana n'ibirayi n'ibishyimbo, abantu barayicuruza bakabona amafaranga menshi cyane.

Indimu ni igihingwa cyiza cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko kimurinda gufatwa n'indwara zo mu nda, kandi iyo cyeze abantu barakigurisha bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Iyo ibigori bimaze gukura, abahinzi barabibagara bakavanamo ibyatsi bituma bitera neza cyane, iyo bimaze gukura barabigurisha bakabona amafaranga kandi bakabona n'ibyo barya.

Imineke igira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, aho imurinda kurwaragurika ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, kandi abantu bagurisha imineke bakabona amafaranga menshi cyane.

Wotameloni ni urubuto rugira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko butuma umuntu atarwaragurika, kandi abantu baragurisha bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bindi bikorwa baba bagomba gukora.

Umuhinzi mwiza yita ku bihingwa bye nko kubibagarira akavanamo ibyatsi bitari ngombwa bituma bidakura neza, ku bitera umuti kugira ngo bidafatwa n'udukoko cyangwa n'utundi dusimba tubyangiza. Ibi ngibi bituma umusaruro we wiyongera cyane akabona ibyo kurya agasagurira n'amasoko.

Imbuto ni nziza ku buzima bw'umuntu, kubera ko zimurinda indwara akabaho neza, akagira ubuzima bwiza. Kandi imbuto ni nziza ku bana bakiri bato, kubera ko zituma bakura neza, bafite ubwenge, kandi bakomeye, bafite umubiri mwiza n'ibitekerezo byiza, bibafasha mu kwiga no kugira ubwenge bwinshi cyane.

Ibigori ni igihingwa ngandurarugo abantu bahinga bakabona ibyo barya, kandi bakagurisha, bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere.

Ibisheke ni byiza cyane kubera ko byongera isukari mu mubiri, bigatuma umuntu agira imbaraga. Kandi abantu barabigurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Amatunda ni igihingwa ngandurarugo, kandi cy'ubukungu, kigira umumaro munini cyane, kubera ko gituma abantu batarwaragurika, kandi kigafasha abana kugira ubwenge. Abantu barakigurisha, bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Abahinzi barahinga, bagasarura, bakabona ibyo kurya, bakajyana no mu isoko, bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere mu bindi bikorwa, kandi bahunika ibyo bahinze kugira ngo bazabone imbuto bazatera ikindi gihe.

Avoka ni urubuto ruryoha cyane abantu bashira ku biryo, kandi rugira akamaro kanini kubera ko rubarinda kurwara indwara zo mu nda, rukongera n'amavuta mu mubiri. Igihe iba yeze abantu barayigurisha bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Inanasi iri mu bwoko bwiza cyane, bw'imbuto buryoha cyane, buturinda indwara, bukubaka umubiri, kandi abantu barayigurisha, bikabaha amafaranga menshi cyane.

Igitoke ni igihingwa kiza cyane, umuntu arya mu buryo bugiye butandukanye, nko kugiteka cyangwa kukirya ari umuneke, kandi barakigurisha, bakabona amafaranga menshi cyane, kandi bigatuma n'ubukungu bw'igihugu burushaho kwiyongera cyane.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, kiduha amafaranga menshi cyane, igihe bacyohereje mu mahanga. Kandi giha abahinzi bagihinga amafaranga bakiteza imbere.

Amatunda ni meza cyane, agira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko amurinda indwara, kandi n'abayatera barayagurisha bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere, ndetse bagatanga n'imisoro kuri leta, leta igakoresha iyo misoro mu kubaka u Rwanda n'ibikorwaremezo.

Ibisusa bigira umumaro munini cyane, kubera ko turabirya tukagira ubuzima bwiza bikaturinda indwara, abana bikabaha ubwenge bwinshi cyanea. Iyo bikomeje gukura cyane, biduha ibihaza tukabirya bikaturinda indwara, kandi bikubaka umubiri wacu, tukabijyana no mu isoko bakaduha amafaranga.

Mu buhinzi bagira n'ibikoresho bakoresha igihe baba bari kwita ku bihingwa byabo, nk'ipombo bakoresha bari gucucira amazi ku bihingwa, kugira ngo byere neza bitange umusaruro mwinshi cyane.

Ubuhinzi bwurutoki ni bwiza cyane, kubera ko iyo urutoki rweze abahinzi barabigurisha, bakabona amafaranga menshi cyane. kandi babonaga n'ibyo barya, iyo bimaze kwera.

Ibigori barabisarura bakabishyira ku biti, noneho byakuma bakabona imbuto bazongera gutera, kandi biduha impungure n'ibihundo bateka ku bishyimbo.

Amasaka agira umumaro munini cyane, kubera ko bayabetesha hakavamo igikoma, abana bakakinywa ntibarware bwaki, cyangwa ngo barware izindi ndwara zigiye zitandukanye, kandi abantu barayagurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Ibigori biraryoha cyane, abantu barabirya mu buryo bugiye butandukanye nko kubyotsa, kubiteka, kubihungura bagateka impungure kandi bituma umuntu agira imbaraga akamera neza cyane, igihe biba byeze abantu barabigurisha, bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Ikawa igira umumaro munini cyane kubera ko abahinzi bayihinga bayijyana mu isoko bakayigurisha, bakabaha amafaranga menshi cyane, kandi ikurura ba mukerarugendo bakadusigira amadovize, bakayakoresha bari kubaka ibikorwa remezo by'u Rwanda.

Iyi pavuro ni igihingwa kirimo ubwoko bw'imboga aho abantu bakirya mu buryo bugiye butandukanye, nko kubibetesha musombe, kugishyira mu nyama, no mu mboga. Kandi ni cyo ki mu bintu mu biribwa bituma umuntu adafatwa n'indwara.

Inanasi ni ikiribwa cyiza cyane, kigira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko kimurinda kurwaragurika nk' indwara zo mu nda. Igifu, amara, ndetse gituma amaraso atembera neza mu mubiri, kandi abantu baragicuruza bakabona amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Imbuto harimo nk'amacunga agira umumaro mwinshi cyane ku buzima bw'umuntu kubera ko atuma tutarwaragurika, kandi afasha abana bato gukura neza batarwaye bwaki kandi bafite ubwenge n'ibitekerezo byiza cyane.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane kubera ko abantu kibagirira umumaro munini ku mubiri wabo, kubarinda indwara bakagira isura nziza, umubiri mwiza. kandi barakigurisha bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Urusenda ni igihingwa ngengabukungu bacyohereza hanze kikaduha amafaranga menshi cyane, kikongera ubukungu bw'u Rwanda. Gitera abagihinga umwete wo gukora cyane bakiteza imbere.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane kiryoha, abantu bakirya mu buryo bugiye butandukanye, nko kucyotsa cyangwa kugitogosa mu mazi, cyangwa guhungura impungure, bakazishyira mu bishyimbo, ku bindi biryo bitandukanye. Kandi bituma abantu bagira imbaraga, bakabigurisha bakabona amafaranga, bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Intoryi ni igihingwa ngandurarugo ndetse ngengabukungu, aho kigira akamaro kanini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko gikungahaye kuri vitaminini zituma umuntu atarwaragurika, kandi iyo cyeze abantu barakigurisha, bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Inkoko ni itungo riduha amagi, agira akamaro kanini cyane kubera ko, akungahaye ku myunyu ngugu na vitamini, ituma abantu barya indyo yuzuye. Kandi akungahaye kuri vitaminini A . Irinda abantu kurwara amaso cyane cyane abana bakiri bato, igihe bazaba bageze mu za bukuru.

Imyumbati igira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, kubera ko abantu bayirya bakagira imbaraga bagakomera cyane ,kandi imyumbati barayigurisha ,bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Ibigori babirya mu buryo bugiye butandukanye nko kubyotsa cyangwa kubiteka mu mazi, ibingibi ni byiza cyane kubera ko bituma abantu baryoherwa bakagubwa neza cyane.

Ibimera bibamo amoko agiye atandukanye, hari ibiba bisa nk'icyatsi, ibindi bisa nk'umuhondo, cyangwa andi mabara. Bigira umumaro munini cyane, kubera ko bituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka, kandi biduha n'imvura.

Amacunga ni meza cyane atuma abantu batarwara bwaki, cyangwa ngo barware izindi ndwara zitandukanye, kandi abantu barayagurisha akabaha amafaranga menshi cyane.

Intoryi iyo zikiri mu murima bashingamo ibiti, kugira ngo zitondagire kuri ibyo biti, maze zirusheho kwera neza cyane, zitange umusaruro mwinshi cyane.

Imyumbati ni ikiribwa ngandurarugo, kiryoha cyane, abantu barakirya bakagira imbaraga, bakarushaho gukora neza akazi kabo kagiye gatandukanye. Kandi imyumbati barayigurisha bakabona amafaranga bayakoresha mu bikorwa bitandukanye.

Iyo ibirayi bimaze gukura, byazanye amababi abahinzi barabagariraga, bakavanamo imyanda n'ibindi byose bituma ibirayi bitera neza cane. Kandi ibi ngibi bituma umusaruro wiyongera cyane.

Ihene ni itungo rigufi ryororerwa mu rugo. Ritanga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko iyo barijyanye kurigurisha abantu bakuramo amafaranga atubutse, bityo bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye kandi bakabona n'ibyo kurya.

Wotameroni n'imbuto nziza cyane igira umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu, ubera ko yongera amazi mu mubiri, kandi igatuma amaraso atembera neza mu mubiri, ikarinda abantu kurwara indwara zo mu nda ibingibi ni byiza cyane kubera ko bitumaga bagira ubuzima bwiza abantu barya Wotameroni.

Icyayi ni igihingwa cy'ubukungu, ni cyiza cyane kubera ko gituma abantu babona akazi, bakabona n'amafaranga. Kandi bacyohereza hanze, abanyamahanga bakaduha amadovize menshi cyane tukayakoresha mu bikorwa biteza abaturage b'u Rwanda imbere.

Inyanya ni nziza cyane ku buzima bw'umuntu kubera ko umuntu iyo ariye inyanya, agira umubiri mwiza kandi nta rwaragurike, iyo inyanya zeze abantu barazigurisha bakabona amafaranga menshi, bakagenda bagura n'ibindi bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inkoko itera amagi ikayararira hakavamo imishwi . Ibingibi ni byiza cyane, kubera ko bituma ubworozi bw'inkoko bwaguka ,ababukora bakabona ibyo barya kandi bagasagurira n'amasoko.

Gutera imyaka cyangwa ibiribwa ni byiza cyane. Kubera ko bituma abantu babona ibyo barya, bakagira ubuzima kandi barabigurisha, bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye bibafitiye inyungu.

Amateke ni ikiribwa cy'abanyarwanda bakunda cyane, kiraryoha cyane kubera ko gituma abantu bagira imbaraga, bagakora akazi neza cyane.

Amateke ni igihingwa ngandurarugo cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu, kandi gituma abantu babona amafaranga binyuze mu kuyagurisha mu isoko, bakiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, kubera ko ibiryo bigiye bitandukanye abantu barya biva mu buhinzi, niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abahinzi gukoresha tubura, kubera ko ibafasha kubona umusaruro uhagije, bakabona ibyo kurya bagasagurira n'amasoko, bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Intama za kijyambere bita amaderini zigira umumaro munini cyane, kubera ko zitanga ubwoya bagakoramo imyenda, zigatanga impu bagakoramo inkweto, amashakoshi, amatapi, n'ibindi byinshi cyane. Kandi abantu bazorora, zibaha ifumbire bagafumbiza imyaka.

Amatunda ni meza cyane kuberako agira vitamini umuntu akenera kugira ngo abeho neza cyane. Kandi abantu barayatera yakwera bakayajyana mu mujyi mu isoko, bakayagurisha bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Umuhinzi mwiza yita ku myaka ye akayihingira, akayibagara akayitera imiti ituma udukoko tutajya kuri iyo myaka, akayicungira umutekano akayirinda abajura, ndetse ibi ngibi ni byiza cyane kuberako bituma ibihingwa byera neza bigatanga n'umusaruro mwinshi cyane.

Ibimera bigira umumaro munini cyane kubera ko bitanga imvura. Ibihingwa bikera, abantu bakabona ibyo barya, bagasagurira n'amasoko. Kandi biturinda kubura ubutaka, isuri ndetse n'inkwangu.

Ibigori iyo bimaze kwera barabibika bakabishyira ku biti bikuma, kandi bigira umumaro munini cyane, kubera ko babijyana kubibetesha bikavamo ifu y'igikoma, cyangwa umutsima.

Iyo ibihingwa bibonye izuba n'imvura birakura bikamera bikava mu butaka, ibi ngibi bituma abantu mu gihe kiri imbere, bazabona ibyo kurya ndetse n'ibyo bazagurisha mu masoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere butegeka gutera ku mirongo bagashira intera hagati y' imbuto, kugira ngo babone uko bashiraho imfumire mvaruganda, ndetse n' imborera, ibi ngibi bituma umusaruro wiyongera cyane.

Amashaza ni igihingwa kiryoha cyane, abantu barya mu buryo bugiye butandukanye nko kugishyira ku birayi, kugitekana n'imboga, kandi kigira umumaro mini cyane ku buzima bw'umuntu kubera ko kimurinda indwara, kandi kigatuma umubiri ukora neza cyane.

Ikigo gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda gishishikariza abahinzi gutera imyaka ku mirongo, kubera ko bibafasha kurushaho kwita ku bihingwa, nko kubitera imiti ikagera ku bihingwa neza cyane, kandi ntibifatwe n'indwara mu gihe gitoya, cyangwa mu buryo bworoshye cyane.

Ibishyimbo n'igihingwa ngandurarugo, abantu baragihinga bakabona ibyo barya, kandi bagasagurira n'amasoko bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye bibateza imbere.

Amababi y'ibishyimbo bita umushogoro abantu barayarya, bayagereka ku bishyimbo cyangwa ku birayi no ku bijumba ,kandi atuma tubona intonore tukabona n'imbuto y'ibishyimbo tuzatera ikindi gihe cy'ihinga.

Ingano iyo zeze, ziba ziri mu bishishwa noneho bakabirobanura, bagashishuraho ibyo bishishwa . Bazikoresha bari gukora imbada ndetse n'igikwanga.

Amasaka agiraga umumaro munini cyane, kubera ko iyo tuyajyanye mu soko baduhaga amafaranga, ndetse turayabetekasha tukabona ifu y'igikoma cyangwa umutsima, bikarushaho gutuma tugira ubuzima bwiza.

Ibishyimbo ni igihingwa abantu bahinga kigatubuka, bakabona ibyo barya bakanagurisha. Bityo bakanarushaho kubaho neza bakagira umubiri mwiza kandi bagateza n'igihugu cyacu imbere.

Amajeri ni igihingwa kiryoha cyane. Abantu barakirya bakagishyira ku birayi, bakagikoramo isosi cyangwa no mu bundi buryo bugiye butandukanye. Kandi bakivanga n'amasaka n'ibigori n'ingano, bakabeteshamo igikoma.

Ibishyimbo bigira umumaro munini cyane kubera ko biturinda indwara ndetse bikubaka umubiri, kandi abantu barabigurisha bakavanamo amafaranga menshi cyane bakayakoresha mu bintu bitandukanye.

Umuceri ni igihingwa ngandurarugo cyazanywe n'abazungu, abantu baragihinga kikagira umumaro munini cyane, kubera ko gituma bagira imbaraga kandi bakakigurisha kugira ngo babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Ibigori byumye babyita ibihundo. Barabyanika bikuma cyane, noneho bakabitekana n'ibishyimbo byumye, kugira ngo bishe neza. Kandi kugira ngo babone imbuto barabihungura, bakabona impungure.

Imiteja ni ikiribwa cyiza cyane, kubera ko gituma umuntu atarwara bwaki ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, kandi abantu barayigurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Umudaho ni igikoresho abanyarwanda bakoreshaga bari gutahura ibiryo cyangwa isosi na n'ubu baragikoresha, bigaragaza ko bakomeje gusigasira umuco wabo. Kandi ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bituma bakomeza kubana neza, bakarinda ibikoresho by'umuco wabo.

Umuceri bawutera mu gishanga ahantu haba hari amazi menshi cyane, kandi umuceri utuma abantu babona amafaranga igihe uba weze bakawujyana kuwugurisha mu isoko, kandi abantu barawurya bakagira imbaraga.

Abahinzi bashobora kweza ibigori, bakabitonora, bakabyanika kugira ngo babirye mu buryo bugiye butandukanye, nk'ibihundo cyangwa impungure, kandi na none kugira ngo bazabone imbuto, bazongera gutera mu kindi gihe cy'ihinga.

Kera abanyarwanda barahunikaga imyaka, cyangwa ibihingwa mu kigega, bakabibika kugira ngo bazabone imbuto bazatera mu kindi gihe k'ihinga. Ariko ubu ngubu haje uburyo bwiza bugezweho bubafasha gutubura imbuto, kandi itanga n'umusaruro mwinshi cyane.

Amasaka ni igihingwa ngandurarugo, abantu barayabetesha bakabona igikoma cyangwa umutsima, kandi barayagurisha bakabona amafaranga bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye, bibafitiye umumaro mwinshi cyane.

Amajeri n'igihingwa cyiza cyane abantu bagiteka mu buryo bugiye butandukanye, nko kuyagereka ku birayi cyangwa kuyakoramo isosi. Kigiraga vitaminini b na vitaminini zituma umuntu atarwara indwara zo mu nda. Abantu barakigurisha bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Ibishyimbo ni igihingwa abahinzi bahinga, bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere, kandi bakabona ibyo barya. Ibishyimbo babyitaho bakabona imbuto bazatera mu kindi gihe.

Umuhinzi mwiza yita ku murima we ndetse n'ibihingwa, kugira ngo azabone umusaruro mwiza cyane, kandi Leta y'u Rwanda ihora ibwira abahinzi gukomeza kwita ku mirima yabo, ndetse no ku bihingwa, kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Umuhinzi mwiza ategura imbuto azahinga mu kindi gihe cyo guhinga, kandi ibi ngibi bimufasha kwiga kuzigama ndetse no kubika neza ibintu bizamugirira akamaro, cyangwa azakenera mu gihe kizaza.

Akenshi abakozi bakora ahantu hatandukanye nko mu nganda, mu mavuriro n'ahandi baba bambaye imyenda isa bita impuzankano kugira ngo bakore akazi kabo neza.

Inkoko igiraga umumaro munini cyane kubera ko itera amagi tukayarya, cyangwa tukayagurisha tukabona amafaranga menshi cyane, kandi inkoko turayibaga tukabona inyama, cyangwa tukazigurisha tukabona amafaranga.

Inyama ni ikiribwa kiva ku matungo agiye atandukanye nk'inka, ihene, intama, inkwavu, inkoko igira umumaro munini cyane kubera ko ituma umuntu agira umubiri mwiza kandi ukora neza cyane.

Inka iyo ziri kurisha mu rwuri, abashumba baba bari kuzicunga, kugira ngo zidatana zikabacika. Kandi bituma inka zihaga cyane, zikaduha amata menshi.

Habama abantu bahuguhuguriwe ukuntu bita ku matungo, kuyavura, ku buryo yatanga umusaruro uhagije ku borozi. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bifasha aborozi kumenya neza uko bagomba kwita ku matungo yabo, bakayavura bakayakingira kugira ngo arusheho kubaho neza cyane.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo, ritanga umusaruro mwinshi cyane, ugereranyije n'ayandi matungo abantu borora, ni itungo ryoroshye kuryorora kubera ko rirya ibiryo byose, ibi ngibi bituma abantu bagira ubushake bwo korora, ingurube kandi ribaha amafaranga menshi cyane bakiteza imbere, mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Inkwavu ni itungo ryiza cyane, kubera ko rituma abantu babona amafaranga iyo bagiye kurigurisha mu isoko, ndetse bakabona n'ifumbire bafumbira ibyo bateye mu murima.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane, kubera ko butangaga umusaruro mwinshi cyane w'amagi n'inyama. Batangaga umusoro bakawukoresha mu kubaka ibindi bikorwaremezo by'u Rwanda.

Leta y'u rwanda yafashije aborozi kongera umusaruro mubituruka mu matungo aho yabazaniye ibiryo mvaruganda byongera umusaruro, nk'inka igatanga amata menshi cyane bakayagurisha bakabona n'ayo banywa kandi n'igihugu kikarushaho gutera imbere cyane.

Kera mu Rwanda inka zabaga ziri mu gikuyu cyangwa ziri mu rwuri, aho zashoboraga guhura n'impanuka harimo nko gukomereka. Ariko ubu ngubu inka bazororera mu kiraro, bakazahirira ubwatsi, bakazidahira n'amazi mu kibumbiro. Ibi ngibi ni byiza cyane kubera ko bituma zibaho neza.

Abantu bahuguriwe kwita ku matungo bagira umumaro munini cyane, kubera ko bafasha aborozi kwita ku matungo, ndetse no kubahugura uburyo bagomba kwiteza imbere, bakarinda amatungo yabo icyayahungabanya. Ibingibi bituma umusaruro wabo wiyongera bakabona amafaranga menshi cyane, kandi bakiteza imbere.

Abantu borora amatungo, bakayabaga, bakabona inyama zo kurya n’izo kugurisha. Zigira umumaro munini cyane, kubera ko zubaka umubiri kandi zikarinda n’indwara zigiye zitandukanye, nk’amavi, n’imitsi, n’izindi nyinshi cyane. Abantu barazicuruza, bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Inyoni nayo ni mu nyamaswa ziba mu ishyamba, ziba zifite amabara agiye atandukanye bityo rero bigatuma ba mukerarugendo bazikunda cyane, bakaza kuzireba bakaduha amadovize menshi cyane, u Rwanda rukayakoresha mu guteza imbere u Rwanda, ndetse n'abanyarwanda.

Ikinyogote ni inyamaswa igira ubwirinzi bwiza cyane, kubera ko iyo itewe n'umwanzi, imutera amacumu iba ifite. Kandi n'inyamaswa ikunda kurebwa na ba mukerarugendo, bityo bakaduha amadovize, tukayakoresha mu bikorwa byo kwita ku byanya by'inyamaswa, kandi tukiteza imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Imbata ni inyamaswa iba mu ishamba, kandi na none ni itungo bororera mu rugo. Rigira umumaro munini cyane, kubera ko ari mu nyamaswa ikurura ba mukerarugendo, kandi nanone abantu bazora mu rugo, bakabona amafaranga igihe baba bazigurishije.

Inkende iri mu nyamaswa ikurura ba mukerarugendo, bakaduha amadovize agakoreshwa mu kwita ku banyarwanda, mu bikorwa bigiye bitandukanye nka girinka no kubakira abakene, ndetse no kubaka ibindi bikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro n'imihanda.

Inyoni zo mu ishyamba ziba zifite umunwa muremure kubera ko biyifasha kubona ibiryo, ndetse no kurwanya umwanzi igihe iba yatewe kandi bituma ishobora kubaho neza cyane.

Ihene y'ishyamba, igira amahembe atangaje cyane, akurura ba mukerarugendo, bakaza kuzisura kandi iyo baje badusigira amadovize, u Rwanda rukayakoresha mu kwita ku baturage, ndetse no kubaka ibikorwa remezo, bituma barushaho kubaho neza cyane.

Imbogo ni inyamaswa iba mu ishamba, igira umumaro munini cyane ku Gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ikurura bamukerarugendo bakaduha amadovize menshi cyane, tuyakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Habaho inkwavu iba mu rugo, n'inkwavu iba mu ishyamba, inkwavu iba mu ishyamba, ikurura abanyamahanga bakaza kuyisura, bakadusigira amadovize menshi cyane, u Rwanda rukayakoresha mu kwita ku banyarwanda, ndetse no kububakira ibikorwa bigiye bitandukanye, nk'amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa byinshi cyane.

Inyoni ni umutungo kamere, uduha amadovize igihe ba mukerarugendo, babaga baje gusura ibyanya by 'inyamaswa. ayo madovize U rwanda ruyakoresha mu kubaka ibikorwaremezo, nk'amashuri, amavuriro imihanda n'ibindi bikorwa byinshi cyane.

Ibisiga bigira umumaro munini cyane, kubera ko bamukerarugendo baza kubisura bakadusigira amadovize, maze tukayakoresha turi kubaka ibikorwa remezo, ndetse tukarushaho kwiteza imbere.

Inyoni ni inyamaswa iryoheye amaso, bityo bituma ba mukerarugendo baza kuzireba bakazifotora bakishima cyane. Kandi natwe bakaduha amadovize tukayakoresha ibikorwa biduteza imbere, ndetse leta ikita no ku banyarwanda bakabaho neza cyane.

Amapera ni igihingwa na cyo kiri mu bwoko bw'imbuto, kigira vitamini ikenerwa n'umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza cyane. Abantu baragitera cyakwera bakakigurisha kikabaha amafaranga bakiteza imbere.

Ingwe ni inyamaswa y'inkazi ariko nanone iryoheye amaso kuyireba aho ikurura ba mukerarugendo, bakatuzanira amadovize menshi cyane u Rwanda rukayakoresha mu gukomeza kubungabunga icyanya cy'inyamaswa nk'ingwe n'izindi nyinshi cyane, ndetse no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye biteza Abanyarwanda imbere.

Inkende nayo iri mu nyamaswa ikunda gukorwa na ba mukerarugendo, bakaza kuzisura bakadusigira amadovize tuyakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye nko kwita ku banyarwanda.

Ingurube y'ishyamba na yo ni inyamaswa ikurura ba mukerarugendo, bakaza kuyisura bagasigira igihugu cyacu amadovize maze bakita ku banyarwanda, abatishoboye bakatwubakira ibikorwa remezo amashuri, amavuriro n'ibindi byinshi cyane biteza abanyarwanda imbere.

Inyoni igira amabara meza cyane, akurura bamukerarugendo, bakatuzanira amadovize, u Rwanda rukayakoresha mu kubaka ibikorwa bigiye bitandukanye, no gufasha abanyarwanda, kwiteza imbere, nko kubaha inguzanyo, kububakira imihanda, amashuri, ndetse n'amavuriro.

Inuma ni inyamaswa itera amabengeza mu myizerere igaragazaga: urukundo, ibyishimo, umunezero kandi igira amabara meza akurura abantu, cyane cyane abanyamahanga bakaza kuzisura, bakaduha amadovize ,tukayakoresha mu bintu bigiye bitandukanye, bitugirira inyungu kandi tukarushaho no kubaho neza cyane.

Inzoka ni inyamaswa igira ubumara. Iyo ikurumye igutera ubumara bwayo, noneho watinda kujya kwa muganga ukaba wagira ikibazo gikomeye cyane, cyangwa ugapfa.

Ingagi ni inyamaswa iba iryoheye amaso, iba ishimishije uburyo ibayeho, bikurura ba mukerarugendo bityo bigatuma igihugu cy'u Rwanda kimenyekana hirya no hino ku isi, bigatuma n'ubukungu bw'igihugu cyacu bukataza cyane.

Inyamaswa zo mu ishyamba zigira umumaro munini cyane ku bukungu bw'igihugu. Kubera ko zikurura ba mukerarugendo bakadusigira amadovize menshi cyane. Tuyakoresha mu bikorwa bituma ubukungu bw'u Rwanda burushaho kwiyongera, kandi n'Abanyarwanda bagatera imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Igagi ziba mu birunga ntabwo zikunda kuba ahantu henshi cyane ku isi, ariko mu rwanda ziraba cyane bamukerarugendo barazikunda cyane, niyo mpamvu baza kuzisura igihe kinini cyane bakadusigira amadovize, tukayakoresha mu gukomeza kubungabunga icyanya cy'ingagi, ndetse n'ibindi bikorwa bifitiye igihugu cyacu akamaro.